Abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa begereye umurima urimo ibigori ,bari kumwe n'umuntu wipfutse mu maso yambaye ibimukingira indwara ,kuko afite umuti wica udukoko yirinda ingaruka yaterwa n'uwo muti.

Umuti wa dedeti wica udusimba twanditse ho contenti one pinti niyu roketi dedeti insekiti side sipuringi. Iyo dedeti yandikishijwe n'ibara ry'umutuku.

Uwo mugabo wambaye imyenda na bote ari gutera amashu gakiri mu muririma magufiya, icuma co gutera umuti c'amabara g'umuhondo n'aga Oranje, yambaye ingofero ikirere kirakeyeye cane.

Abantu bari gutera umuti wica udukoko mu mashu gateye mu mabase g'umutuku n'agandi mashu gateye mu mabase g'ubururu bambaye inkweto zifite amabara g'umukara n'amapantaro g'umukara n'amasaha ga zahabu.

Umuti uri mu gacupa gafite amabara y'icyatsi n'ay'umweru, wanditseho biyo fatalayiza mu ibara ry'umweru n'andi magambo yanditseho adomini, mu ibara ry'umutuku ufite umufuniko w'icyatsi, hariho n'akapa kariho imbuto.

Umugabo wambaye igisarubeti gifite amabara gijimye ahetse icuma c'icatsi co gutera umuti ,yikoreye akantu kameze nk'igiti wambaye ingofero ahagaze ku butaka butariho icatsi na kimwe, izuba riri kuva riri gutanga umuco.

Umuti wica udukoko, wanditseho indofiri ditani, emu mirongwine na gatanu, hariho imbuto zisa n'izapfuye, zifite ibara ry'umutuku, handitseho kandi na i maganabiri garamu.

Igikapu kizirikishijwe umugozi w'umweru ku gati gatoya. Impande ya ho hari ibiti biryamye n'utwatsi dukeya, hirya hari abantu bari gucukura ifumbire: Abagabo umwe wambaye ingofero y'umutuku n'abagore bari mo. Hirya hari ahantu hari intusi n'ibiti.

Akantu k'icuma kariho umugese ,harimo amafi ane ari mu rubura ,hasi no hejuru yabyo karambitse hasi ku tubaho.

Ikiyaga kirimo ubwato bufasheho ibiti birebire, hicayemo abantu. Abandi bari ku ruhande, harimo n'uwambaye isengeri gusa n'undi uri kurebeka igice cyo hejuru. Hirya y'aho hariyo imisozi yo mu turwa hariho n'ibyatsi.

Mu ngezi hagati aho bakorera amafi hari ibihingwa by'icyatsi ndetse n'amaba n'amazi na yo asa n'icatsi.

Amazi yo mungezi arimo aho bororera amafi, afite inshundura z'icyatsi. Hirya y'aho hari igihuru kimeze nk'ishyamba n'ibyatsi by'icyatsi, hari kuva akazuba.

Amafi atatu yo mu ubwoko bwa Tirapiya amanitse ku umugozi ahantu bayacururiza yapfuye, atari aho yabugenewe hamwe imigozi imanitse ku ibiti.

Umuteguro wa salade uriho indimu ,hakabaho na sereri byose biri kuri parato ,salade ifite itomate y'umutuku.

Akarwa kari mo amazu gateye mo ishyamba. Hari ho ubwato, kari hagati mu mugezi. Hirya y'aho hari ho imisozi iri mo amaterasi, irimo n'amazu, hirya hariho indi misozi iriho ibihu.

Akazu gato kubakishijwe imbaho, gasakajwe n'amabati, kubabatse impande y'amazi y'ikiyaga, hirya hariho urutoki rutarera, rwegeranye n'ibisheke.

Umurima gurimo ibibabi by'ibigori guhinzwemo urutoki rukiri ruto, rugifite amababi gumye. Hirya hariho inzu itagira imiryango, yubakishijwe amatafari gahiye, n'amabati gatari kugaragara neza, n'igiti cya pinusi giteye mu rugo muririma.

Inzu yubakishijwe amabati g'umutuku yegeranye n'amateke g'icatsi n'isombe z'icatsi, hasi hari utwatsi tukiri dutoya, yegeranye n'inzu ihomesheje urwondo rw'ibara ry'umutuku.

Akayira gato nyabagendwa kegeranye n'umurima urimo ibihingwa byapfuye bitakuze neza, witegereje neza hirya urahabona ibirunga bibiri, hariho uruzitiro rw'ibiti dukunda kwita ibidariya hagaragara ho n'amababi y'ibitoki.

Inzu ya kadasteri isize irangi ry'umweru, ifite igipangu cy'amatafari ahiye, imbere yaho hari yo urutoki n'umwana wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, n'intama, hirya yaho hari yo inzu ifite urwondo ndetse hari ho n'ibitoki.

Amashuri gubakishijwe amabati g'ubururu, inzugi z'ubururu, amadirisha g'ibirahure n'amarangi g'ubururu, gubakishijwe na none amatafari gahiye imbere yaho hari ikibuga, hino hakaba ibiti birimo n'inka ifite amabara g'umweru n'ag'umukara iri kurisha.

Umurima urimo igihingwa ca karoti zitarera zigifite amabarara g'icatsi ,n'ibigori bishinze muri uwo murima byumye n'urutoki hirya ya ya karoti, n'igiti c'indumburabutaka kiri hagati mu muririma gwa karoti.

Umurima urimo ibyatsi bitagaranye, hirya yaho hariho ibiti by'indumburabutaka bigufiya, hirya yaho kure hariho umunara ndetse harimo n'imyaka yagiye yumye utashobora kugaragaza ngo ni ubuhe bwoko.

Umurima gw'imboga z'inyabutongo z'uruti rutoya, hirya yago hariho icyatsi cy'ikidariya n'ibiti by'indumburabutaka. Hariyo n'inzu ifite ihumesheje urwondo itari kugaragara neza.

Umurima guhinzemo amateke g'icatsi n'amasombe g'icatsi, hirya y'aho hari intoki zifite amababi gakiri matoya ndetse n'inzu ihomesheje urwondo.

Urubingo ruri impande y'umukingo ,hakurya yarwo hari urutoki rufite amakoma yumye nandi akiri mazima, rumwe rufite igitoki urundi ntabwo rwarirwana.

Urusasa rwa kizungu rwegeranye n'igiti cy'inturusu, harimo n'udutoya n'ibindi byatsi bitoya ndetse n'utundi twatsi tutarakura. Harimo n'utundi twatsi twagiye tugwa hasi.

Imboga za epinari zifite amababi meza cane g'icatsi, zihinganwe n'imboga z'inyabutongo zifite amababi matoya ariko nago g'icatsi, zihinzwe zidasasiwe ibindi byatsi.

Ibiti bitoya bibiri by'amababi y'icatsi manini, hariho n'utundi twatsi dutoya. Hirya y'aho, hari ibindi byatsi by'uruzitiro, n'utundi twatsi duto tw'amababi maremare cane, n'ibindi twatsi twumye.

Umurima bahingagamo ibigori byarumye hariho ibyatsi bigufiya n'ibiti birebire by'ininturusi, hirya hariho ibindi biti twita ibidariya bifite indabyo z'umweru.

Imyaka ifite amabara g'icatsi itari yamera neza, hirya y'aho hari ibigori byumye ndetse n'ibindi bimeze nk'ibireti, harimo n'indumburabutaka zishishe cane.

Umurima guhinzemo imboga z'icatsi harimo n'ibiti by'indumburabutaka, n'ibindi biti by'isombe. Hirya y'aho hari amazu gafite amabati g'umweru gateye n'isima.

Ibirayi bigifite amabara y'icyatsi n'uruyange rwa maharare bitari byiza cyane, hirya y'aho hariho ibigori byumye, hakurya hari kugaragara ikirunga cya Kalisimbi, hagati y'aho harimo ibiti bifite amabara y'icyatsi.

Igipangu cyubakishijwe amatafari gahiye harimo imboga z'ubwoko butandukanye, inyabutongo ndetse hateyemo n'amateke g'icatsi bw'ibibabi binini hariho n'imbuga irimo utubuye duto duto.

Ingemwe nyinshi zifite amababi g'icatsi n'agandi g'umuhondo gapfuye, ziri mu dufuka dukoreshejwe amababi g'urutoki, hirya yaho hari amababi nk'ibisombe.

Umurima gw'ibijumba bitari byera neza, izuba ririmo rirava hariho n'utundi twatsi dutoya, hirya yaho hariho ibindi byatsi birebire n'ahandi hatariho ibijumba.

Igiti ca avoka giteye, gikuru gifite na avoka zeze, hasi hariho n'amateke g'icatsi no hirya hariho igiti c'isombe.

Ubusitani bw'indabo zicatsi zifite amababi g'icyatsi, zifite n'uruyange rw'umweru n'izindi zifite uruyange rwa maharare, hirya yaho hari ibyatsi bisa n'ibyumye.

Icatsi c'urubingo giteye mu murima cegeranye n'ibindi byatsi byumye, hirya yaco hari inzu iteye sima ikikijwe n'intoki ndetse n'indumburabutaka n'uruzitiro rw'ibitusi byumye.

Igiti kirekire cane catondagiyeho amatunda ga marikuja, gafite amababi g'icatsi n'ag'umuhondo. Hino yaho hagaragara urustinga rw'amabara g'umukara gw'amashanyarazi, hirya hari ikirere gikeye ca morosi eri.

Igihingwa c'inyanya zitari zagaragara neza, kuko uruyange rusa n'umuhondo, giteye ku butaka hatari kugaragaraho ibindi byatsi.

Intoryi zifite utuntu twazo two hejuru zaviriwe n'izuba ryinshi ,harimo akababi gatandukanye n'izo ntoryi akaba bi kajya gusa n'umuhondo.

Imyumbati zeze zikiri ku biti byazo, zuri mu butaka harimo n'izindi ziri mu mashashi g'umukara zikimeze nk'aho zikiri ingemwe.

Inka y'igaju y'amabara gatandukanye ag'umukara n'ag'umweru n'ifite n'ipeti ry'icatsi ziri kurira mu kiraro cyubakishijwe imbabari n'imbaho, hariho n'indi nka itari kugaragara y'umukara.

Abantu bari gukora imirimo itandukanye bari gupakira avoka mu mufuka abazikoreye izindi ziri hasi, hakikijwe n'ibyatsi bibisi cyane hariho n'amashami y'ibiti ibikapu abagabo n'abana bicaye.

Agasoko ko k'umuhanda gacururizwaho imbuto zo kurya imyembe zitandukanye zirimo iz'icatsi na zindi zifite amabara g'umuhondo zidahishije umugore uri hirya wambaye igitenge gifite amabara ag'umweru nag'umutuku.

Inzu ya girini hawuzi ituburirwamo imbuto z'ubwoko butandukanye. Intoryi z'ingemwe zifite amabara g'icatsi, abantu benshi bahagaze bambaye imyenda z'amabara gatandukanye. Ag'umuhondo, ag'umukara n'ag'ubururu yubakishijwe amabati gazana umuco mo imbere.

Inanasi itatu imwe yarakuze izindi ziracafite ibara ry'icatsi hariho nizirikiye ku duti tubiri.

Ibihingwa by'ibigori bifite amababi gakiri icatsi n'amateke na go gakiri icatsi, biri mu murima, hirya hariho umusozi guriho ibihu, gufite ibiti bitari kugaragara neza.

Amatunda ya pome gatonoye, gafite ibara rya oranje gari mu kibakure gifite agafuniko kari kugaragara kamwe, gafite n'imyenge ku mpande hirya hariho n'agandi matunda gafite amabara gadatonoye.

Umugore usutamye wamba umupira gw'icatsi uri guhoheka ibihoho ashiramo n'itakaka, mu gatanda kubakishijwe ibiti. Hirya ye hari umurima ukirimo ibyatsi.

Ikirere ciza, imisozi myiza hino hari icayi, imashini zishinzwe kuvomerera ico cayi, hari urutoki hagati y'imisozi n'icayi.

Umurima guhinzeho urutoki ruriho injegwe ngwanyi, hirya hari inzu yorobetse gusa n'urwondo n'migano n'ibigori bitari byera neza n'ikidodoki kiri ku ruzitiro.

Igihingwa c'inyanya zeze z'amabara g'umutuku n'ibibabi by'icyatsi, hariho n'urundi rukiyanga rw'ibi g'ururabo g'umweru.

Igiti c'amapera harimo agahishije gasa n'umuhondo, agandi gatari gahisha gasa n'icatsi gagihagaze ku bishami by'ico giti.

Umugabo wambaye isarubeti, n'ingofero by'amabara y'ubururu, wegeranye n'umugore wambaye umupira w'umukara, bari kubagara ibirayi bifite amababi akiri icyatsi.

Abagore babiri bambaye imyenda zirimo amabara y'umuhondo ,ag'umutuku n'a g'umweru .Bakenyeye n'ibitenge bari gusarura ingano zumye mu murima hirya yabo hari agashamba karimo ibiti.

Umugore ufite amashu abiri, wambaye umupira w'umukara n'ingofero, ukenyeye n'igitenge ari mu murima w'amashu. Hirya ye hari uwiteze igitambaro ndetse n'igishora. Hirya y'aho hari umurima utagira ikintu, harimo n'abantu benshi batagaragara neza.

Abantu bambaye imyenda zifite amabara g'umweru, n'ag'umukara n'ingofero z'amabara g'umweru, bari mu murima gushingirira ibishimbo bafashe ibiti. Hirya yabo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amapoto g'amashanyarazi.

Imyumbati zimaze gukurwa vuba, zirunze hasi imbere y'ipoto y'icuma ishinzwe muri beto, zirambitse ku mapave yisima.

Igihingwa c'ibigori gitangiye gutera gifite amababi gatoshe g'icatsi, gihinnze ku butaka buja gusa n'umutuku, hirya hariho ingezi irimo amazi ndetse n'urutoki.

Agaso ko k'umuhanda gacururizwamo imboga zitandukanye. Harimo ibidodoki by'icatsi, imifuka zifite amabara g'umweru n'ag'icatsi. Umugore wambaye inkweto za rugabire n'agatenge gafite amabara g'umutuku n'aga orange n'aga pinki.

Ahakorera isoko riciriritse bacururiza imyumbati, ziri ku meza zigifite ibishishwa byazo, n'umunzani guhari guriho agasahani, umuntu wambaye umupira w'umukara n'undi wambaye umupira w'umuhondo.

Akantu k'icyuma karimo imineke idahiye cyane, kuko harimo agafite ibara ry'icyatsi, ibiseru bine.

Umuntu wambaye umupira gwa Maharali, ufashe ku bigori bya buride ibitoya n'ibini, ugiye kubihungura byose biri ku kirago.

Umugore witeze igitambaro wambaye umupira, gw'amaboko magufi k'umweru. Uri gusoroma umushogoro, ku bishimbo birebire biri ku biti.

Ibishimbo bifite amababi gakiri icatsi n'imiteja itarera neza, biri mu murima gufite ubutaka bw'urwondo ndetse ibimiteja iracari kuri ibyo bishimbo.

Ibisate bya voka bine, bibiri birimo ibibuto, icya gatatu nta kibuto kirimo, icya kane nta bwo wabona ahaba ikibuto, bitatu biteretse ku mbehe, byose bikaba biteretse ku kantu k'akameza.

Avoka nyinshi ziri ahantu hatandukanye, imwe muri zo irasatuye, iri kugaragaza n'icyo munda twita ikibutobuto, kandi izindi ziri kugaragaza udutwe, harimo n'izihishe utapfa kumenya udutwe twazo ahantu turi.

Igikoni batekeramo kirimo inyama z'ubwoko butandukanye. Umuhoro uri ku kameza, hirya hari akadomoro gafite amabara g'umuhondo n'ag'umutuku n'umufuniko w'umutuku n'inyanya ziri ku gasahani k'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambariye ku gapira, udafite umusatsi mwinshi, wambaye agapfukamunwa, afashe ku giti cy'urubuto kitari kugaragara neza, hariho inyuma n'indabo, ibyatsi hasi bisa nk'ibyumye, inyuma ye hari yo ibiti by'avoka bimukikije, rwose yambaye n'ipantaro ariko inkweto zo nta bwo zirimo zigaragara.

Umurima gw'ibirayi by'umweru bikiri ku mugozi gwago, biri mu butaka harimo ibitoya n'ibinini, ndetse hari n'utwatsi tugihari mu butaka.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, izirimo zimwe zifite amabara y'icatsi, izindi amabara g'umuhondo, izindi amabara g'umutuku, hariho n'agatanda izo mbuto zitetsemo.

Ubworozi bwa dendo butagaragara nkaho ari ubwa kijyambere, kuko ntiziri mu kiraro ahubwo ziri hanze, zirimo ibyatsi zimwe ziri gutora izindi zirahagaze.

Abagore bari gukora mu murima w'amashu biteze ibitambaro, abandi ntabyo biteze, bambaye imipira y'amabara y'ubururu n'ay'icyatsi n'ay'umuhondo, hirya yabo hari ikindi gihingwa cy'ibiti birebire.

Umwana ufashe agakonzo arimo atera ibishimbo ari kumwe na nyina witeze igitambaro, wakenyeye umupira, yambaye isengeri. Impande yabo hari ibiti by'isombe ,ndetse n'ibindi byatsi by'icatsi bitandukanye ,n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'amateke.

Amapera gafite ibara ry'icyatsi n'amababi abiri na go g'icyatsi, rimwe risatuye rigaragaza ibara ry'umutuku ukeye.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye, hagaragaramo ibirayi hicayemo umugabo, hariho n'ahamanitse imifuka ndetse n'udukarito.

Intoryi zumye ziri ku kameza n'inyanya zumye zapfuye, ziri ku kameza zegeranye n'urusenda, ahantu mu kabati gakikijwe n'akayungiro, mu kadirisha kari kugaragaza umuco mwiyonzu.

Amajeri gakiri matoto gatarera, gafite amababi g'icatsi garacyafashe kuri bya nyina garacyahagaze.

Umugore wambaye igitambaro cy'ubururu, ufite terefone mu ntoki n'umupira g'ubururu ukenyeye igitenge, ahagaze mu murima gurimo imyaka zitari zakura neza n'ibiti biri muri ugo murima, hirya yago hariho amazu gatari kugaragara neza.

Imyumbati zidatonoye zikiriho ibishishwa zirambitse ku mwenda gumeze nk'ikiringiti hariho udushishwa twagiye dutonokaho ndetse n'ahari imizi.

Umugore wunamye wambaye ibitenge by'amabara g'umuhondo n'aga shokora, witeze igitenge mu mabara g'umutuku n'ag'ubururu n'ingutiya y'umukara, ari kubagara ibigori mu murima.

Umuntu ugaragara amaguru abiri, wambaye ipantaro yijimye cyane, hari imbere ye ibisheke by'umuhondo, hirya ye hariyo udufuka dutatu. Ibyo bisheke biteretse ku mabuye, hariho n'udutanda two gucururizaho.

Igipapayi kitari cera neza, gifite amabara g'umuhondo n'agicatsi kubitari byera, gifite n'amababi gatagagurikanye g'icatsi, kirasasiye ibyatsi byumye hasi kubutaka.

Abagore bicaye ari benshi bambaye udupfukamunwa, bambaye imipira zifite amabara gatandukanye, bari mu nzu y'amabati g'umweru yubakishijwe inkingi z'amatafari gahiye bari kurobanura impeke.

Umugore wambaye imyenda z'ubwoko butandukanye amabara g'umutuku ag'umweru n'ag'umukara, uri gukura ibirayi by'umweru, isuka iri iruhande rwe yabishize mu mufuka, hirya ye hari ibyatsi byinshi.

Ihuriro ry'abagore benshi bafite amasuka, bambaye n'ibitenge bifite amabara gatandukanye, g'ubururu agumweru nag'ikigina, biteze ibitambaro, hirya hari inzu y'amabati g'umweru, ihomesheje urwondo, ikikijwe n'urutoki, rugifite amababi g'icatsi.

Umugore wambaye igitenge c'umutuku n'umuhondo, witeye n'igitambaro gifite ibara ry'umutuku, bari gusoroma icayi c'icaha, gifite amababi g'icatsi n'umugabo wambaye umupira g'umweru n'icatsi. Ikirere ni ciza c'ubururu juru n'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'umukara, ufashe terefone mu ntoki, ari mu iduka ricururizwamo imboga n'imbuto, harimo: inyanya, karoti, ibitunguru, n'intoryi.

Ihene z'umweru n'iz'umukara ziryamye aho zirishiriza, hirya hariho uruzitiro zimwe zirahagaze, izindi ziraryamye.

Umuntu utamenya ko ari umukobwa cyangwa ari umuhungu kuko agaragara intoki gusa .Ufashe umufuniko urimo puwavuro utamenya umubare wazo ariko zirenga puwavuro zirindwi. Hegeyeho akabase katagaragara kose karimo intoryi ziri hasi, ariko atari ku butaka ni kuri sima. Hirya yaho hariho akantu k'akobo karimo itaka .

Ahantu hari kuva izuba ryinshi mu misozi irimo ibiti by'ubwoko butandukanye, ryishyamba harimo ibifite ibara ry'iicatsi, ibyumye cyane ndetse n'ibitaruma cyane imbere yaho hari icyapa.

Ikibuga c'icatsi cegeranye n'inzu zifite uruzutiro rw'ibyuma by'umutuku, hakurya ya ho hari ishamba ry'ibiti birebire, n'ikirunga cya Sabyinyo n'ibicu.

Igihingwa c'ingano zitarera, zigifite amababi y'icatsi. Izo ngano zifite ibara ry'umuhondo utagaragara neza, harimo izaguye n'izindi ngano zigihagaze.

Umugore urimumifuka myinshi yifu afashe ifu mu ntoki yambaye umupira g'umweru nigitambaro cy'umukara nigitenge cya shokora.

Igikokoriko gifite amababi gumye, hirya y'aho hari ibindi bibiri biri kugaragara, no munsi yaho hejuru hariyo ikirere kitijimye gikeye.

Igikontineri c'inyuma ku modoka， gifite amapine g'umukara n'ag'umuhondo， c'amabara g'umutuku，cirimo umucanga g'umuhondo，mu muhanda gw'ibitaka，impande hariho ibyatsi bikiri bitoya.

Inzu y'ubwanikiro bw'imyaka y'ibinyampeke, ifite uburyo yubatse ku buryo hinjiramo urumuri rw'izuba, hagati hariyo udutanda turiho impeke n'ibindi bintu byo gushyira mo izo mpeke zamaze kuma.

Umurima guhinzemo amajeri gatondagiye ku mugozi g'icatsi. Genda kwera gagifite imiteja n'ubutaka hasi, hirya hari igiti kizamuye.

Utuntu twinshi cane tumeze nk'udusimba, ariko iyo witegereje neza ubona ari umuceri udatonoye ufite ibishishwa by'umweru kandi byumye.

Ibiganza bibiri by'umuntu utari kugaragara neza, bifashe ingano zifite amabara g'umuhondo, hirya ye hari kugaragara ubutaka bwumye.

Ubuhunikiro bw'ibigori byumye bimanitsemo hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi ,wapfutse agapfukamunwa n'umugore wambaye ibitenge by'amabara gatandukanye ag'ubururu n'ag'umuhondo wegereye ku mabati g'ubururu gari ku nkingi z'ubwo bwanikiro bw'ibigori.

Inzuzi nyinshi zirimo ikintu kimeze nk'icibo, izindi ziri hasi yegeyeho ikindi gihaza gifite amabara g'umuhondo kidasatuye, biteretse ku kantu kameze nk'umwenda.

Utubakure twinshi turimo imyaka myinshi z'ubwoko butandukanye, harimo gamwe gafite amabara g' umutuku, agandi amabara gumweru. Hariho na amvirope nyinshi ziriho udupapuro. Agafite n'amabara g'ubururu n'amabara g'umweru n'amabara g'icatsi.

Imigozi igiye iboshe nk'urushundura rw'izamu, hagiye harazamukaho amajeri afite ibara ry'icatsi, hirya y'aho hari ibiti by'icatsi bitari kugaragara neza bifite uruyange rw'umweru n'imigozi imeze nk'imigwegwe.

Indabo zifite uruyange rw'amabara g'umweru n'ibyatsi biri mu murima gw'ibitaka ,hahinzemo n'ibirayi bifite amababi g'icatsi.

Igihingwa c'amasaka gatangiye guterera gatari gazana impeke g'amababi g'icatsi, hakurya yago masaka hari inyanja amazi gari gutemba.

Inzu yubakishijwe imbaho imanitseho ibishimbo. Urutsinga rw'amashanyarazi ruhaciye na puranshe zihari, n'amabati gatari kugaragara neza. Hirya hariho n'igiti kitari kugaragara neza.

Ibigori bifite amabara gagiye gatandukanye, ag'umuhondo, ag'umutuku n'ag'umukara, bitonoye amababi menshi cane, biteretse ku twatsi, mu gasandukugu k'imbaho.

Amabase atatu atandukanye: icyatsi, ubururu, n'umukara .Mo hagati yayo harimo utundi dukoresho dutatu :gikosi ca muhinzi, ingemeri ,ndetse hirya hariho akatari kugaragara neza. Muri iyo kandi harimo impungure ndetse n'ingano.

Imiteja yo kurya igiye ihambiriye uduce duke, ihambirijwe utugozi twa fimbo. Hari mo n'ibishimbo bitonoye rwose by'imbuto bigaragara.

Umufuka g'umweru gufite n'irindi bara ry'icatsi gurimo imbuto zitarahisha neza zigifite ibara ry'icatsi ziri mu mufuka izindi zimenetse hasi ku butaka.

Ubuhunikiro bw'ibigori bufite utuetajeri tune, hasi hari utwuma tuhakikije twa garidefu dufite irangi ry'umutuku, iyo nzu isakajwe amabati.

Agasoko bacururizamo imyaka itandukanye: ibishimbo, n'ibirayi mu mifuka zifite amabarag'umweru n'a g'umutuku, umugabo wambaye ishati ya pinki uhagaze mu muryango gwinzu ifite amabara g'ubururu hamanitsemo umunzani mu muryango gwa metalike, n'umugabo uhagaze wambaye ishati y'icatsi.

Imbuto ya soya yumye, hari n'indi iri mu igishishwa cayo itonoye, n'iri mu igishishwa kitatonoye, ifite ibibabi bitatu by'icyatsi.

Umuntu wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, wambaye ingutiya y'ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru ufashe ubunyobwa bwanitse ku mufuka.

Igihingwa c'amasaka gafite impeke g'umutuku, amababi g'icatsi gatangiye kuma ikirere gisa neza c'ubururu juru ibicu by'umweru.

Umurima gw'ibigori bitangiye guterera, bifite amababi g'icatsi. Hirya yaho hari ibiti by'amababi matoya n'ikirere kitari kibi, ciza cane, c'ijuru.

Uduseke dufite amabara gatandukanye ag'ubururu ndetse harimo n'ibishimbo birimo udupapuro turiho amazina y'ibyo bishyimbo: hari ikirimo nyirayiramagori bisa n'umutuku, na mwirasi.

Umugabo wikoreye umufuka gw'umuhondo gusa nabi gurimo ibishimbo, ufashe n'umuhoro mu kuboko kw'iburyo wambaye umupira gw'ikigina, inyuma ye hariho undi mugabo uhagaze nipoto hagati yabo ry'amashanyarazi.

Ibigori bya buride biri mu mifuka ebyiri itandukanye umwe ufite ibara ry'umweru n'ibara ry'icatsi ku ruhande, n'undi ufite akabara k'umutuku gatoya, ibyo bigori ni amahundo ntibirahungurwa.

Ibishyimbo bitari ibyera, by'imiteja bigifite n'amababi yabyo y'imishongo, bikiri ku mishingirizo, hirya hari ibindi biti by'icyatsi, umuntu afashe iyo miteja ariko ikiganza gusa nicyo kiri kugaragara.

Igihingwa c'igikokoriko ceze kuko amababi yaco aracumye. Kiri mu murima, inyuma yaco hari ibindi byatsi by'icatsi.

Umufuka g'umweru gurimo ishashi, gwandikishijweho amabara g'umukara guteretse ku musambi gw'icatsi nug'umuhondo gurimo imbuto z'ubunyobwa.

Amagi menshi gatandukanye mu mabara, gari mu ikureti jyago biteretse ku meza mu nzu ifite igikuta c'umweru n'umuhondo.

Muganga w'amatungo wambaye Itaburiya y'umukara ariwo mwenda w'akazi .Bari ku gashati k'umweru afite ibikoresho bipima, ariko by'umwihariko muganga ndabona ko ari uw'imbwa y'amabara atandukanye y'umweru yo twita ay' ibihogo.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkwavu, ifite amabara y'umweru iri kurira, mu kantu gafite umufuniko w'umutuku, hejuru umweru, mu kiraro cyubakishijwe imbaho.

Inkokokazi ifite ibirokoroko by'amabara g'umutuku ihagarikishije ukuguru kumwe ukundi kuri hejuru amababa gayo garacayiriho ntabwo yiteguye kuguruka hirya hariho ibyatsi bikiri icatsi n'ibindi by'amabara g'umweru hariho n'igikuta c'ibara ryijimye ry'ikigina.

Ubworozi buciriritse bw'ihene zitari mu kiraro, umugabo n'umugore bazishakira ubwatsi bwo kurya. Bafite wese kandi iriho kandagira ukarabe irimo n'amazi rwose.

Isake ifite ibirokoroko by'amabara g'umutuku iri kugaragara ijisho rimwe n'umunwa gutasamye ihagaze ku byatsi muri jaride hirya harimo akabara kuva akazuba.

Isoko ry'inka, ariko ntiwabasha kumenya umuntu uri mwiryo soko, inka z'umweru n'umukara, n'umuntu wambaye ikintu gisa n'umweru ,hirya hariho ikintu kimeze nk'umunara, harigitutamenya ubwoko bwacyo kirimo hagati,

Inka eshatu, zirimo igipfizi, zitandukanyije amabara, ziri mu gikuyu, kirimo ubwatsi budatoshye cyane, hirya y’aho, hariho ibyatsi bitari kugaragara.

Umuntu wambaye ga z'ubururu n'itaburiya ifite amabara g'umweru n'agapfukamunwa, afashe urushinge mu ntoki, rufite amabara g'icatsi n'ag'umweru. Ari gutera inka y'amabara g'umukara n'ag'umweru mu kigo c'izo nka cubakishijwe ibiti gusa.

Umugore wambaye igitambaro c'icatsi n'isarubeti y'icatsi, ari kubyaza inka aho isanzwe yororerwa amahembe gayo ni maremare garateze. Hirya hari ishamba ririmo ibyatsi byinshi cane.

Ubworozi bwa kijambere bw'inkoko, harimo umugabo wambaye igisarubeti gifite ibara ry'ubururu, wunamye uri kugaburira izo nkoko harimo n'imishwi ikiri mitoya. Ziri mu nzu ifite isima hasi.

Umuntu ufashe urushinge ari gukura umuti mu icupa imbere ye hari inka ya bihogo, yambaye ga ukuboko kumwe ukundi nta ga. Yambaye itaburiya y'ubururu inka ifite amahembe magufi abiri, gusa uwo muntu ntiwamenya niba ari umukoba cangwa ari umuhungu kuko isura ye ntigaragara.

Inka zifite amahembe maremare, agandi magufiya ziryamye hasi ku bwatsi, imbere hari itaka, inyuma hari agashamba karimo ibyatsi byinshi cane.

Umuntu ufashe urushinge uru kurutera mu nyamaswa, utagaragaza isura ntiwamenya niba ari umugabo, cyangwa ari umugore, yegeranye n'undi wambaye ikoti ry'icyatsi cyijimye, bari kuvura inka y'ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu batatu bambaye amasaro biti gafite ibara ry'ubururu, bari ahantu hari inka mu kigo cayo, hariho igikuta gifite uduti kandi gifite n'inkingi z'amabuye.

Umugore wambaye ikanzu idoze mu gitenge c'amabara gijimye, afashe agakwavu k'amabara g' umutuku mu maso n'amatwi gahagaze k'amabara g'umweru mu kibuti cubakishijwe imbaho.

Ubworozi bwa kijambere bw'inkoko, hariho umushwi umwe na radiyo ifite antene ebyiri bacuranga inkoko zumva umuziki. Harimo utuntu two kugaburira izo nkoko hirya hariho n'umushwi utari kugaragara neza, utwo tuntu dufite umufuniko wa orange.

Umugabo wambaye itaburiya ifite amabara g' umweru yandikishijweho inyuguti zifite amabara g'ubururu ngo rabu, wambaye agapfukamunwa ko mu mabara g'ubururu n'ag'umweru afashe agacupa k'amabara g' umweru ari gukuramo umuti akoresheje urushinge, wambaye agapira k'amabara g'umuhondo na...

Inka y'ifirizoni y'ibihogo, ifite amanimero g'umuhondo ku matwi gayo n'amaso abiri gari kugaragara, ururimi ruri mu mazuru, ikirere kirakeye kuko izuba riri kuva.

Abagabo babiri bambaye amasarubeti g'icyatsi n'ingofero z'amabara g'umweru, bafite ingurube mu ntoki begeranye n'umugore ufite umusatsi g'umukara, hirya yaho hari ikigega cy'amabara y'umukara kiriho amabuye gusa.

Igisimba citwa icugu c'amabara atandukanye kiri kugaragara ijisho rimwe amabara g'ubururu, ag' umweru n'agicatsi kiri hasi ku butaka.

Akanyamaswa gafite amabara atandukanye, ay'umweru n'ay'umukara, umurizo muremure, gafite amaso ari kugaragara yose, n'amatwi yose, gahagaze k'urutare, ndetse hirya hariho ibyatsi, akanyamaswa k'agasiha.

Ingona nini iri kwerekera mu mazi g'ikiyaga iri ku butaka, hirya yayo hari ibyatsi byumye n'ibindi byatsi bigifite ibara ry'icatsi n'akazuba kari kuva umuco urahari.

Igisiga c'igihunyira gifite amaso g'umuhondo na g'umukara, umunwa g'umukara amababa g'umukara nag'umweru hirya gihagaze ku rutare rufite amabara g'umweru.

inyoni ifite ijisho ry'umutuku n'imboni y yumukara, ifite umunwa guriho ibara ry'umweru mu ijosi ryayo hariho ubwoya bw'icatsi ndetse mu'umugongo harimo amabara g'umweru n' ag' umukara.

Akanyamaswa bakundaga kwita isiha gafite amabara g'umweru n'ag'umukara kari mu byatsi byumye mu gihe cy'umwijima.

Inuma iri kugaragara ijisho rimwe, umunwa gubumbye, amabara g'icatsi mu ijosi n'ag'ikigina, ifite amaguru g'umutuku, izuba riri kuva kuko igicucu cayo kiri kugaragara.

Icyana cy'inyoni cyitwa igishuhe, kiri mu mazi yo mu nyanja cyonyine, gifite umunwa muremure uriho ibara rya pinki n'amababa, ariko atabasha kuguruka.

Akanyamaswa gafite amaso atukuye. Gafite n'ubwoya bufite ibara ry'umweru. Hirya hariyo amabara y'umuhondo n'andi y'umweru. Gafite n'umunwa w'umukara, n'utwanwa dutoya twibara ry'umukara.

Agasimba gato k'umutubu abantu batinya kari hasi, gafite ijisho rimwe rigaragaza imboni z'umukara ndetse n'ibara ryaryo ritabasha gusobanukirwa neza.

Impyisi iri yonyine ahantu hari kuva izuba ryinshi cyane, hariho ibyatsi byumye ibindi biracari bizima. Kubera izuba yahumbije amaso.

Ikigona cy'umukara kiri kugaragara ijisho rimwe casamuye umunwa kiri hasi ku byatsi by'icatsi n'amababa yaco ntabwo ararambuka.

Inyoni y'ijisho rimwe ifite agahanga k'umutuku, iri ku giti kigaragara nk'aho ari ic'umuvumu, ariko ntigifite amashami ndetse ntabwo n'imizi yaco ihari, birumvikana ko kituzuye neza, ibibabi bigiri inyuma yaco ntibiri kugaragara neza.

Inyoni yitwa Umusuni ifite mu ijosi h'umukara, iri kugaragara ijisho rimwe n' numunwa muremure y'ibara ry'umuhondo igerageza gukora icari co kuraramo, inyuma y'aho hari amababi y'icatsi atari kugaragara neza.